Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko harimo imoto n'umumotari uyitwaye, kandi kumpande zaho hakaba harimo inzu zisaza neza cyane zifite amarange y'umweru, kandi imbere yazo hakaba hagiye hari indabo nziza cyane.

Imikeka myiza cyane. Imikeka myiza cyane, iri mu mabara atandukanye, hari ay'umutuku, ay'icyatsi, ay'umweru ariko ari mu nzu nziza cyane, ifite ibikuta by'umweru bite biteye irange risa neza, ibintu bisa neza kabisa.